Hari abaturage bo mu cyaro bo usanga bagifite imiti gakondo bakoresha mu kwivura. Iyi miti ariko Leta ibabwira kutayikoresha cyane, kubera ko ushobora kuba utazi icyo uri kwivura mu gihe uyikoresheje, cyangwa utazi ingano y'umuti ukeneye. Rero ni bibi gukoresha imiti igezweho kandi wandikiwe na muganga.

Mu muco nyarwanda nta binini byakorerwaga mu nganda byabagaho, n'abaturage mu kwivura indwara zigiye zitandukanye bakoreshaga ibihingwa cyangwa se ibyatsi gakondo, harimo nk'ibikakarubamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, biba byarahawe amazina n'abakurambere batubanjirije.

Imiti ya kinyarwanda ni imiti kera yagiriraga abantu bayikoreshaga umumaro, nubwubunubu usanga isa nkahoho yacitse kubera ko Leta ibibuza, kubera ko uba utazi ingano y'uwo muti uribufate, cyangwa ushobora kuwufata ukaza kukumerera nabi.

Mu Rwanda rwo hambere, kubera ko nta mavuriro menshi yabaga ahari, wasangaga abaturage bakoresha imiti gakondo mu kwivura. Iyo miti gakondo wasangaga akenshi ibagirira n'umumaro, kuko abenshi muri bo barakiraga. Iyo miti harimo nk'ibyatsi, amabumba, ndetse n'ibindi.

Inteja kimali nimwe mu bintu abaturage ba kera bifashishaga mu kwivu ibintu bitandukanye wasangaga Kimari barayisekuraga barangiza bakayivanga n'ibindi byatsi birimo nk'umukurura bakayisiga aho umuntu yabaga afite igisebe wasangaga rimwe na rimwe byahakoraga icyo gisebe kigahita kimara iminsi mike kigahita gikira.

Abanyarwanda bagira ubwoko bwinshi bw'imiti bakoresha bari kwivura harimo: nk'ikakarubamba, harimo imikurura, ndetse n'indi myinshi. Wasangaga nka kera ibintu by'ibinini bitarabagaho ugasanga bakoresha imiti ya gakondo mu kwivura indwara zigiye zitandukanye. Ubu ngubu abanyarwanda bayikoresha basa nabagabanutse.

Umuco w' abakera wasangaga batarizeraga muri mivurire ya kiganga igezweho, ahubwo bakoreshaga imiti gakondo mu kwivura, indwara zigiye zitandukanye niyo miti gakondo bakoreshaga habaga, harimo n' ibyatsi, harimo nk' ibyatsi by' inteja ndetse n' ubundi bwoko.

Igikakarubamba ndetse n'ibindi bihingwa, ni bimwe mu bihingwa bishobora kugira, kwifashishwa n'abaturage b'abanyarwanda, mu kwivura indwara zigiye zitandukanye. Dore y'uko abakurambere batubanjirije, ari bumwe mu buryo bakoreshaga bivura.

Abanyarwanda ba kera bakoreshaga imiti gakondo mu kwivura, aho wasanga ariyo ibafasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye bagendaga bahura nazo, mu miti bagendaga bakoresha wasanga harimo ibumba n'ibumbacyatsi ndetse nandi mabara yose, ibumba rizwiho kugira ubukomere kubera ko rifasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye umuntu ashobora guhurana nazo.

Abanyarwanda mu buryo bwo kwivura kera wasangaga ibi binini bigezweho ntabyabagaho. Nk'iyo umunyarwanda yafatwaga n'indwara wasangaga ajya gushaka ibyatsi akaba aribyo asekura akanyunyuza amazi yabyo, rimwe na rimwe wasangaga bivura ariko hari igihe wasangaga ibyo byatsi nta kintu bimumariye ku buryo byamuviragamo no gukomera kw'iyo ndwara arwaye.